Ishuri ry'abana, aho bajya kwiga kugira ngo babone ubumenyi. Kandi ndetse n'abarimu bahigisha, bakaba babona amafaranga, yo kwifashisha mu bintu bitandukanye.

Ikigo cy'amashuri, aho abanyeshuri bajya bakiga bakagira ubumenyi bwisumbuye buzabafasha, mu minsi yabo iri imbere ndetse n'abarimu na bo babigisha bakabona amafaranga.

Umunyeshuri uri mu ishuri aho arimo kwiga, akaba yiga kugira ngo azagire ubumenyi buzamubeshaho mu minsi iri imbere, ndetse azafashe n'abandi mu iterambere ndetse n'igihugu.

Imiti abantu bakoresha bari kuvura amatungo ndetse bari gutera no mu bihingwa, kugira ngo babirinde indwara zigiye zitandukanye, harimo ibisimba bifata ku mababi, bigatuma ibihingwa bitera.

Utubati two ku ishuri, aho abanyeshuri babikamo ibikoresho byabo kugira ngo hatagira abantu babyiba, cyangwa se bakaba babyitiranya n'ibyabo.

Ikibaho cyifashishwa mu kwiga. Aho abanyeshuri bagikoresha kugira ngo bige bagire ubumenyi buzababeshaho mu minsi iri imbere, ndetse n'abarimu bakaba bakora umwuga wo kwigisha, kugira ngo babone amafaranga yo gutunga imiryango yabo.

Ibikinisho by'abana, aho abana bajya bakabyinjiramo bikabacunda, aho bituma abana bakura bishimye ndetse bakagira ubuzima bwiza. Bikaba ari ibikoresho byiza cyane.

Amahame intore zigenderaho kugira ngo zikore imirimo yazo neza, harimo ko intore zishaka ibisubizo, ndetse kugira ngo bifatanyirize hamwe, bashobore gukora imirimo myinshi.

Abantu babiri barimo gupima urubaho kugira ngo barukoremo ibikoresho bitandukanye, harimo ibyo bakoresha mu nzu, ndetse n'imitako imwe n'imwe.

Abantu benshi bahagaze ahantu hamwe, aho imbere yabo hari umugabo wambaye ishati y'umukara ndetse n'ishati yumweru, akaba afashe kamera arimo gukamera.

Abanyeshuri bambaye imyenda isa n'umweru ndetse n'udupfukamuwa tw'umweru imbere yabo hakaba hari imashini bikaba bigaragara ko bari kwiga kugira ngo bazagire ubumenyi bwinshi cyaneane bazifashisha mu mirimo igiye itandukanye.

Abanyeshuri barimo kwiga gukata ibyuma kugira ngo bazagire ubumenyi bazifashisha mu myaka yabo iri imbere, ndetse bazabashe no gukora ibikoresho bizabafasha mu bwubatsi, ndetse no gukoramo ibindi bikoresho bitandukanye.

Abagabo bicaye bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo imirasire ndetse n'amaradiyo, aho bigaragara ko barimo kubikora ndetse bari no kwiga uko bikorwa.

Ibikoresho abantu bifashisha bari gukora amagare, ndetse bari no gukanika insinga z'amashanyarazi, kugira ngo babone umuriro bacana.

Abanyeshuri bicaye, aho umwe afashe mikoro, aho bigaragara ko ari kuvuga ibintu bitandukanye. Akaba ari abanyeshuri biga kugira ngo babone ubumenyi.

Umukobwa wambaye imyambaro y'umweru akaba afashe isahani bigaragara ko ari umukobwa wakundaga guteka ndetse akaba ari umukozi uteka ibiryo by'ubwoko butandukanye.

Abanyeshuri bari kwiga, aho bari gushaka ubumenyi, kugira ngo bazakore imirimo y'ejo hazaza, ndetse na mwarimu urimo gushaka amafaranga.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga, abantu bakoresha bari gukora ibindi bikoresho byo kwifashisha mu rugo, ndetse n'ibyo kwifashisha mu mirimo igiye itandukanye, harimo ubuhinzi.

Abantu bahagaze ahantu hamwe, aho bari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga harimo imashini zibeta ibigori, ndetse n'imashini zikora imyenda. Bakaba babikora kugira ngo babone amafaranga.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo insinga ndetse na kamera, byifashishwa mu gukora videwo ndetse no gutegura indirimbo zigiye zitandukanye, ndetse bakaba babyifashisha bakora ubushakashatsi.

Umwarimu uri mu ishuri akaba ari kumwe n'abanyeshuri bigaragarako arimo kubafasha kumenya, ndetse no gusobanukirwa ibijyanye na kompiyuta, ndetse kugira ngo bazabone ubumenyi bazifashisha mu buzima bwabo buri imbere.

Abantu bahagaze bigaragara ko bari mu gikorwa cyo kubaka inzu zizaturwamo n'abantu ndetse bakazikoreramo n'ibikorwa bigiye bitandukanye harimo ubucuruzi ndetse no kororeramo amatungo.

Abantu bambaye masike ku maso, aho barimo gusudira ibyuma bigiye bitandukanye by'amashanyarazi, ndetse bakaba barimo gukora intebe ,bakaba abantu kenshi na kenshi bakunze kuba bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Abantu bafite ibyuma by'ikoranabuhanga ndetse n'ibijyanye n'umuziki aho bigaragara ko bari kwiga indirimbo kugira ngo bamenye gucuranga neza ndetse no gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Abasore babiri bambaye ingofero z'umweru, ndetse bambaye n'amashati y'ubururu, bakaba barimo gufungura icyuma. Mubigaragara ni uko barimo gushaka amafaranga.

Abanyeshuri bafashe igikoresho, barimo gupima kugira ngo bagire ubumenyi bwinshi cyane, bazifashisha mu minsi iri imbere, ndetse bakanabona amafaranga avuye mu bikorwa bakoze.

Icyumba kigali kirimo imitako ,ndetse kikaba kirimo n'ibitabo, aho abantu bicara bagasoma, kugira ngo bazagire ubumenyi bwinshi, ndetse n'ibitekerezo ,kugira ngo bazabone amafaranga.

Ahantu hari ibitabo byinshi ndetse n'intebe, bigaragara ko ari aho abantu basomera ibitabo, kugira ngo bagire ubumenyi bwinshi. Ndetse babikoreshe mu gutegura, ndetse n'amasomo agiye atandukanye.

Abanyeshuri bagera muri batanu, bicaye aho bari gukoresha icyuma kireba ibintu bitoya cyane, bigaragara ko abanyeshuri bari kwiga, kugira ngo bagire ubumenyi.

Umugore wicaye ku ntebe, akaba afite imashini idoda imyenda. Akaba adoda imyenda yo kwambara kugira ngo abantu babone ibyo bambara, ndetse na we bakamuha amafaranga.

Abantu bane bahagaze ahantu hamwe, barimo gukanika ibyuma kugira ngo bivemo igikoresho abantu bakifashisha, bari gukoresha mu buzima bwabo.

Abanyeshuri batatu bicaye, imbere yabo hari ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo imashini ndetse n'amakaramu. Bigaragara ko barimo kwiga ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga.

Abanyeshuri bambaye inifomo y'umweru ndetse n'umukara, amasogisi y'umweru n'inkweto z'umukara, bakaba bicaye mu ishuri, barimo gukora ikizamini cya Reta.

Imashini abantu bakoresha bari kudoda imyenda kugira ngo bambare, babone imyenda bambara bagiye mu kazi, ndetse n'ibikapu byo gutwaramo imizigo.

Ishuri rigaragara ko ryigiramo abanyeshuri, aho harimo ikibaho cy'umukara, ndetse n'intebe zo mu mabara y'umutuku ndetse n'ubururu, bikaba bigaragara ko ari ishuri abanyeshuri bigiramo, kugira ngo babone ubumenyi.

Abantu bafite inkoni mu ntoki zabo bambaye imyenda y'imikara bigaragara ko bari mu ishyamba barimo gusura inyamaswa ndetse bari no mubikorwa byo gutembereza abantu kugirango ngo bahamenye neza.

Abakobwa bicaye hamwe, bambaye imipira y'ubururu ndetse n'amajipo y'umukara, aho biri kugaragara ko ari abantu bari gukorerwa inzara, ndetse bakaba bari gusigwa n'amavuta.

Abanyeshuri bambaye imyenda y'ubururu, barimo gukanika ibikoresho by'ikoranabuhanga, harimo imashini zidoda imyenda.

Abanyeshuri batatu bicaye, barimo gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga; bakaba barimo kubikanika, kugirango bikore, ndetse babone amafaranga bifashisha.

Abantu batatu bambaye imyenda y'umweru n'imikara bari mu gikoni, aho barimo gutegura ibyo kurya, ndetse bakaba bafite n'amacupa iruhande rwabo.

Abanyeshuri babiri barimo gukoresha mudasobwa, bigaragara ko ari abanyeshuri barimo kwiga, kugira ngo babone ubumenyi bazakoresha mu minsi iri imbere.

Umukozi urimo gukoresha imashini ibaza kugira ngo abone amafaranga ndetse akore imbaho zo kwifashisha mu bwubatsi ndetse abone n'inkwi zo gucana.

Abanyeshuri bambaye imyenda y'umweru imbere yabo hahagaze umuntu akaba bigaragara ko arikubigisha amasomo agiye atandukanye kugira ngo bayafate bazayakoryeshe mu minsi iri imbere.

Abantu bahagaze ahantu hamwe, bakaba bafite ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha bari gukora amaterefone, ndetse bari no gukora amaradiyo. Bikaba bigaragara ko ari abantu bakora ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Abantu babiri aho umwe yambaye umupira w'umukara urimo n'umutuku, undi mukobwa yambaye umwenda urimo umweru ndetse n'umukara, bakaba bahagaze iruhande rw'ikibumbano gifashe igiseke ku rutugu.

Abantu benshi bambaye amataburiya y'umweru, umwe wegereye inka, bigaragara ko inka barimo kuyivura uburwayi. Inka akaba ari rimwe mu matungo ritanga amata, ndetse bakaba banayibaga bagakuramo inyama.